Abagore batatu birabura bamwe bari kuvoma ku iriba bakoresheje amaboko yabo wambaye igitenge n'umupira w'amabara atandukanye, undi wunamye ari kuyora amazi mu ndobo mu ibasi.

Abantu benshi b'igitsina gore bicaye, bambaye imipira y'icyatsi n'umweru, udupfukamunwa tw'umukara, umweru n'ubururu, ameza y'ibiziga ariho igitambaro cy'umweru, ateretseho amazi n'impapuro z'ubururu.

Abana birabura benshi bari kuvomera ku iriba rya kijyambere ryubatse, mu ijerekani y'umuhondo, ubusitani buteyemo byatsi, uruzitiro rw'imiyezi.

Umwana w'umuhungu wirabura wambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umukara uri kuvoma amazi ku iriba ufasha ijerekani y'umweru mu ntoki ze umugore uhagaze wambaye umuhondo n'igitambaro cy'ubururu.

Abana batandukanye harimo abakobwa n'abahungu bishimye bari gusetsa, bambaye impuzankano za kaki, bari ku iriba ryubatse rya kijyambere, bari gukaraba intoki zabo n'amazi meza asukuye n'indobo z'umuhondo.

Abantu benshi higanjemo abagabo n'abagore birabura bicaye bazengurutse ameza, ameza ariho mudasobwa, amatelefone porojegiteri barikuganira bafite amazi imbere yabo n'ibitabo.

Abantu babiri bahagaze: Umugore wambaye ishati y'icyatsi usutse wambaye amaherena, umugabo wambaye ijire y'ubururu yanditseho amagambo y'umweru, ari gutanga imiti itandukanye mukarito y'icyatsi, ubururu n'umweru.

Abantu batatu birabura, harimo abagore babiri, umwe uhagaze wambaye umupira w'icyatsi ikanzu y'igitenge undi wambaye umupira n'ijire wa oranje n'umugabo uhagaze ku iriba rya kijyambere, uri kuvomera amazi mu ijerekani y'umuhondo.

Umugabo w'umwirabura uhagaze wamwenyuye wishimye cyane wambaye ishati y'akaboko ipantaro y'umukara, ufashe bujerekani y'umuhondo uhagaze ku iriba rya kijyambere ritanga amazi meza asukuye.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo, abicaye n'abahagarize, abambaye amataburiya y'umweru, abambaye ipantaro z'umukara n'amashati y'umukara bafite n'udukarita bambaye mu ijosi bose.

Ishyamba ririmo ibiti birebire kucyatsi imodoka y'umweru yatumbi ikaba ihagaze urukarabiro rwubatse abana bahagaze imbere yarwo bari kuvomera majerekani y'umuhondo mukobwa wunamye uri gukoresha urukabiro.

Abana bahagaze benshi birabura, abakobwa n'abahungu ku iriba barimo bakaraba intoki zabo n'amazi meza asukuye, ibiti birebire bifite amababi y'icyatsi.

Umugabo nyiraguru basetse wambaye amadarubindi, ufashe akana gatoya aba umuto ya wa oranje gahagaze ku munzani w'umweru ucometseho terefone.

Abana babiri birabura bamwenyuye bicaye ku meza ikozwe mu giti. Urubaho rw'umukara rwandikishijeho amagambo y'umweru impapuro zometse ku kibaho.

Abantu benshi bahagaze imbere y’inyubako yubakishijwe amatafari, isize irangi ry'umuhondo n'amadirishya. Abagore n'abagabo bamwe bambaye amapantaro, abandi amakanzu, abandi amashati y’amabara agiye atandukanye.

Iriba rya kijyambere ryubatse risizeho irange ry'ubururu n'umweru, abagore n'abagabo birabura bahagaze imbere yaryo, amajerekani menshi y'umuhondo ateretse imbere y'iryo riba bavomeramo amazi.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inzu yubakishije amabuye iriho icyapa kirimo ibara ry'icyatsi n'umweru, rishushanyijeho abantu bambaye amataburiya y'umweru, abicaye bahagaze abantu benshi batandukanye bamwe abagore abagabo'bana abakecuruabasaza.

urururi rwe wambaye amatabu y'umweru ari kuvura umwana aryamye ku gitanda kwa muganga hamwe n' umubyeyi we wirabura wambaye ibitenge

Abantu benshi b'abagore bahagaze imbere y'inzu yubakishijwe amatafari bambaye ibitenge bigiye bitandukanye bifashe mu buryo butandukanye.

Abagabo n'abagore bambaye amataburiya asa y'umweru n'amakanzu y'isarubeti, bahagaze mu nyubako irimo amakaro, umutako w'ubururu n'umweru uri ku rukuta.

Abagore batatu birarabura bambaye udupfukamunwa; umwe uryamye ku gitanda cy'umweru ufite igitenge kunda, undi wambaye ishati y'ubururu uteze amatwi, uhagaze wambaye agapfukamunwa uri kureba undi.

Abantu benshi higanjemo abagore n'abagabo bicaye bazengurutse ameza bamwe bambaye amadarubindi abandi batayambaye, abirabura n'ab'uruhu rwera, ameza ateretseho amatasi, polojegiteri n'impapuro.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'umukara wifashe mu maso ufite agahinda kenshi urinda kurira imiti imanitse kuri etageri iri mu dukarito y'amabara atandukanye.

Umugore wirabura, wambaye ibitenge mu mutwe k'icyatsi n'umuhondo ndetse n'ishati y'igitembe y'icyatsi n'umuhondo n'umweru n'umukara, wishimye ufite akanyamuneza mu maso wasetse ufite amenyo y'umweru.

Abana benshi bishimye, baganira; bambaye impuzankano z'ubururu bwijimye; n'ubururu bwerurutse; basetse harimo abana b'abahungu n'abakobwa.

Umugore wirabura wambaye imyenda isa nabi nk'umusazi y'umutuku, ikweto zisa nabi, ibyatsi mu ntoki, amacupa y'amazi ku ruhande; yicaye ku muhanda.

Umwana wirabura ufite imisatsi y'umukara na kaki, wamwenyuye ufite ibisuguti mu ntoki, wambaye impuzankano by'umweru n'ubururu, wicaye ku ntebe z'ibiti zifite ibara ry'umuhondo.

Umugore wirabura wamwenyura wishimye, wambaye ishati ya orange, uhagaze imbere y'iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, biri mu dukombe no mu bikarito by'icyatsi, umutuku, umuhondo n'umweru.

Abagabo babiri birabura, imwe wambaye agapfukamunwa, itaburiya y'umweru na gant z'umweru, uri kumurika mu kanwa k'undi mugabo wambaye umupira w'icyatsi uryamye ku gatanda k'umukara.

Umugore wasamye wirabura n'umugabo wambaye ga urimo arakogoshashora mu menyo y'uwo, mugore wirabura wambaye amaherena.

Abantu benshi harimo abagore n'abana n'abagabo, bahagaze hanze bambaye imipira isa y'icyatsi yandishiweho amagambo y'umuhondo, ameza ateretseho umuti w'amenyo, umugabo uhagaze wambaye umupira w'umweru uhetse igikapu.

Umugabo ukuze wirabura ufite imvi, wambaye amadarubindi, ufashe urudodo rwoza amenyo mutoki ze, icyumba bakarabiramo, isabune iri mu icupa ry'umweru ry'ubururu uburoso bogesha amenyo, umuti w'amenyo.

Abantu benshi biganjemo abakuze, bashaje, bicaye, bambaye imyenda iteyemo amabara atandukanye y'icyatsi, umutuku, umuhondo, abagabo bari kuri telefone, umugore uhagaze uri kubaha imiti.

Abagore babiri birabura bari kuganira bari muri siporo, umwe yambaye itiriningi y'ubururu n'umweru n'ikote yayo, undi yambaye umupira muremure w'ubururu wambaye agashene mu ijosi.

Abantu benshi higanjemo abagore n'abagabo bashaje, bambaye imikenyero, ibitenge, ingofero ndetse n'amashati, bahagaze barimo bareba imbere.

Umugore n'umugabo bashaje, bambaye imipira y'umutuku, bafite imiti imbere yabo y'ibinini kumeza y'umweru, amarinete ateretse ku meza, ibikombe.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, umuhondo, amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umweru amanini n'amatoya, umugabo mu ibara ry'ubururu n'ubwoko bwe mu ibara ry'umutuku.

Icyapa kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'umuhondo avuga ibijyanye.

Icyapa kinini kiriho abagabo babiri bambaye amakasitimu y'umukara wirabura, umwicaye n'uhagaze kihiro amagambo manini mu ibara ry'umutuku n'ubururu kivuga ibyo kwita ku buzima.

Abantu benshi binganjemo abagore n'abagabo, umugabo wambaye ikositimu, abafashe mu biganza by'umugore wambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe, amadarubindi, ishati y'umweru n'ijipo y'ubururu, icyapa kinini cyanditseho minisiteri y'ubuzima.

Icyapa cyamamaza ibijyanye no gukuramo inda ku isi hose, kirimo amabara atandukanye, icyatsi, ubururu, umuhondo, oranje, umweru, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu bwerurutse kirimo nk'amagambo y'ubururu bwijimye, cyerekana uburyo ubuvuzi butangwamo uko bikurikirana.

Icyapa kiri mu magambo y'umutuku n'ubururu ay'ubururu yandikishijwe hejuru iri mu mabara y'umutuku avuga iby'abana n'ubwandu bwa SIDA.

Imashini zo kwa muganga zirimo amabara atandukanye. Umuhondo, umweru, ubururu, umukara, amadirishya y'ibirahure, ameza y'umweru n'umukara.

Inzu z'amagorofa zubakishije amabuye na sima, hagati harimo umuhanda wa kaburimbo, uruzitiro rw'umukara rukozezwe mu byuma, ubusitani iruhande rw'ayo mazu y'icyatsi.

Icyumba gisize amarangi y'umweru, kirimo intebe zitandukanye, agato k'umukara, inini y'umweru n'ubururu, ifite umusego n'amapine y'umweru, akabati gafite amapine k'umweru.

Inyubako nziza igezweho kwa muganga, isize amarangi y'umweru, irimo amakaro, irimo amatara y'umweru, ibyapa byerekana by'umutuku n'umukara n'umweru n'icyatsi.

Inyubako ndende iri mu iduka ricuruza imiti iriho icyapa kinini cy'icyatsi, cyandikishijeho amagambo y'mweru, ibyapa bito bito birimo ibikombe, ibikarito, ibikoresho, inkweto, n'imyenda.

Inyubako irimo ibikoresho bakoresha ari gukora imyitozo ngororamubiri, indobo bashyiramo imyanda, televiziyo amatara, irangi ku nkuta ry'umutuku.

Igitanda gifite amapine cy'umweru gishashe hariho umusego n'isubume, urukabiro rw'intoki rusa umweru, aho bumukiriza intoki hakozwe mu ibara ry'umweru.

Iduka ricuruza imiti, ririho icyapa cyandikishijwe ibara ry'umweru n'icyatsi, rihagazemo abagore batatu n'umwana uri gucuruza, icyapa cyiriho ubururu na oranje, n'amagambo yandikirwamo atandukanye.

Inyubako ndende y'igorofa rimwe, iri mu ibara ry'umuhondo n'umweru, icyapa kinini cyanditseho ikigonderabuzima, ibiti biteye iruhande rw'iyo nyubako abantu bahagaze muri iyo nyubako, harimo abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye.

Ubusitani buteyemo ibyatsi n'icyatsi, indabo ry'umuhondo ibiti birebire by'icyatsi, imodoka zihagaze, aho imodoka zihagarara z'umweru zifite amapine y'umukara n'inzu nyinshi zubabatishijwe amatafari.

Umugabo wirabura, wambaye ikote ry'ubururu, ufite mudasobwa ebyiri imbere ye, ziteretse ku meza, zirimo ibishushanyo byo kwa muganga ,byerekana imbavu z'umuntu.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, abantu batandukanye biganjemo abagore, abagabo, abana. Uruzitiro rw'ibyuma rw'umutuku, icyapa kinini kiriho amabara y'umutuku n'ubururu n'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umugabo wambaye itaburiya y'mweruru, ga z'ubururu n' agapfukamunwa k'ubururu n'umweru, ufite icupa mu ntoki, uri gukora ku mashini yo kwa muganga za mudasobwa. Ziri mu ibara ry'umweru.

Inyubako nziza isize irangi ry'umuhondo, isakaje amabati y'ubururu, ifite uruzitiro rw'ibyuma, yanditseho amagambo y'ikigo Nderabuzima cya kigina. Umugore uhetse umwana uhagaze.

Inyubako isize irangi ry'ubururu n'umweru, n'umuryango urimo iduka ricuruza imiti, icyapa kiririmo ibara ry'icyatsi n'umweru amagambo yandikishijwe umweru n'umukara n'imituku.

Inyubako yubakishijwe amakaro hasi y'ibabara ry'umweru n'ubururu inzugi zisize amabara y'umutuku, icyapa cy'umuhondo, imiryango itandukanye.

Abantu batandukanye harimo umugore wirabura n'uwera, n'abagabo bahagaze, umugabo wambaye itaburiya afashe umwana wambaye umupira w'icyatsi ku rutugu, n'ikintu kigereranya amenyo, urimo uroza igishushanyo.

Umukobwa wicaye wambaye umupira wa orange ufashe ku ivi rye hariho igipfuko cy'umweru wicaye ku gitanda kiriho amashuka asa umweru n'amakaro ari hasi y'umweru.

Umugabo wera wicaye ku madarage wambaye inkweto z'ubururu, ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru ufite terefone mu ntoki na ekuteri mu matwi n'agasume kera k'umuhondo ku rutugu n'icupa ry'amazi ari kurinywa.

Umugabo ufashe undi mugabo rwose undi wirabura wambaye ijire y'icyatsi, yambaye isengeri y'ubururu amufashe, icyapa kiri iyuma cy'umweru cyanditseho amagambo y'ubururu n'inyubako iri mu ibara ry'ubururu n'umuhondo n'icyatsi.

Abantu batandukanye harimo abagore n'abagabo bahagaze bambaye imyambaro bakoresha imyitozo ngororamubiri, uwicaye uri kuvura umugabo uryamye bambaye amajire y'umutuku n'imipira y'umweru.

Icyapa kiriho ibintu by'amafunguro atandukanye, amagi, ibishyimbo, inanasi, imboga z'ibyatsi, inyama n'imbuto, umugabo uri guterura ibyuma mu myitozo ngororamubiri.

Agakoresho ko mu ngingo z'inyunganiramubiri, gakoreshwa mu ijosi, kari mu ibara ry'umweru, umuhondo, ubururu, n'umukara. Kariho akapa kariho magambo y'umweru.

Icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'icyatsi, amagambo y'umweru, ubwo ubwirinzi bw'impanuka, gishushanyijeho abagabo batatu birabura, bambaye amakabutura y'umuhondo, imipera y'umweru n'umutuku, za kasike ku mitwe yabo.

Ibikoresho bitandukanye bijyanye n'ubuvuzi mu bijyanye n'imyitozo ngororamubiri, biri mu ducupa, mu dushashi, mu dukombe no mu dukarito, mu mabara atandukanye, ay'umweru, ay'icyatsi, ay'umutuku, ay'umuhondo n'ubururu.

Amacupa atandukanye y'umweru, ashushanyijeho ibyapa by'umutuku n'amagambo y'umukara n'umutuku, avuga iby'imiti igabanya ububabare.

Icyumba gisigaze amarangi y'umweru, kirimo ibikoresho by'ubuvuzi, harimo intebe y'icyatsi n'umweru, intebe ntoya y'icyatsi yamapine y'umukara, imashini ziteretseho ibikoresho by'umweru byaka amatara y'umweru na Mudasobwa ku ruhande y'umweru.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri ijyanye no kwinanura, wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'iroza, ufite ibisuko wambaye amaherena, uri mu cyumba cy'umweru kirimo indabo z'icyatsi.

Ibiganza bifite intoki mu ntoki birikwandika ku mpapuro z'umweru, udukoresho twa siporo tw'ibiro turimo ibara ry'umutuku n'ubururu hamwe icupa ryamazi, isaha.

Igikapu cy'umutuku n'icyatsi kirimo imiti itandukanye, iri mu dukombe, iri mu dukarito, n'iri mu mashashi, ikoreshwa buri butabazi bw'ibanze mu bijyanye n'imyitozo ngororamubiri.

Insimburangingo zitandukanye z'ingano, iz'umweru iza kacyi, iz'umuntu wirabura zambaye inkweto, umuntu wambaye ipantaro y'umweru n'inkweto z'umweru bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri.

Abantu benshi birabura, higanjemo abagore n'abagabo bambaye imyenda, bari gukora imyitozo ngororamubiri, barambuye amaboko, ibiti bifite amababi y'icyatsi.

Igikapu cy'umutuku n'agakapu k'ubutabazi bw'ibanze mu ibara ry'umutuku, hariho icyapa cy'umweru n'amagambo y'umukara, biteretse ku kibuga cy'umupira bakiniraho imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wirabura wambaye umupira, wambaye ekuteri mu matwi ufite ubwanwa, uri kunywa amazi mu icupa ry'umweru, akaba arifashe mu ntoki.

Icupa ry'umweru ririmo imiti y'icyatsi ikozwe mu gikakarubamba, rishushanyijeho amagambo mu ibara ry'umuhondo, igikakarubamba ku ruhande cy'icyatsi kirekire.

Ibikombe n'udukarito tw'umweru turiho amagambo ari mu mabara atandukanye: irya orange, iry'icyatsi n'iry'umutuku, amacupa maremare, amagufi, ibikakarubamba bishushanyije kuri ayo macupa.

Uducuta tw'umweru dutatu duturutse ku meza, turiho ibyapa by'amabara y'ubururu, umutuku, ndetse n'amove byanditseho birimo imiti ya gakondo.

Abantu benshi b'abagore batandukanye bambaye imyenda y'umutuku, move, umuhondo Ibitambaro by'umweru ari gusarura ibyatsi bijyanye n'imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Ibyatsi bigiye bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi gakondo by'amabara menshi harimo; umuhondo, umutuku, icyatsi, move n'umukara.

Igikombe cy'umweru gifite umuvuniko w'umuhondo, kiriho cyapa kiriho ibyatsi bisa n'icyatsi n'amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi n'umukara mu bunini mugiye batandukanye.

Amacupa atandukanye y'umuhondo na shokora, irya oranje n'umweru, iry'umutuku n'umweru bishushanyijeho igikakarubamba, uducupa duto tw'umweru turiho amabara y'umuhondo amagambo yadikishijwe ibara ry'umweru n'icyatsi.

Amacupa n'ibikarito birimo imiti igiye itandukanye ikozwe mu gikakarubamba. Amacupa maremare, amagufi y'umweru n'umutuku, n'ubururu.

Icyapa cyamamaza ibijyanye n'imiti ya gakondo y'ibyatsi, hashushanyijeho igikakarubamba, ni mu icupa ry'umweru ririho icyapa cy'umuhondo n'amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umutuku.

Akabati gasize ibara ry'umutuku n'umweru, karimo amacupa agiye atandukanye. Amaremare, amagufi arimo ibintu bigiye bitandukanye by'icyatsi, by'umuhondo, by'umutuku, by'umweru, by'umukara, n'imifuniko y'amabara atandukanye.

Ibyatsi by'amoko atandukanye bikoreshwa nk'imiti ya gakondo, harimo: iby'icyatsi, imbuto z'icyatsi z'indirimu, imicyayicyayi yakuze ndetse n'ibyatsi by'umukara biteye hasi.

Imiti itandukanye y'ibyatsi ibisa move, ibisa umuhondo, ibisa umutuku, ibisa kaki, ibisa ubururu bwijimye, ibisa umweru ndetse n'umukara.

Imiti igiye itandukanye imwe iri mu macupa maremare, indi iri mu macupa magufi, indi iri m'udukarito, indi iri mu mashashi, iriho amagambo agiye ari mu mabara atandukanye; ay'ubururu, ay'umuhondo, ay'umukara aya oranje.

Icyapa kirekire cy'ubururu, kiri mu ibara ry'iroza n'umweru, kiriho imiti basiga ku munwa ikozwe mu gikakarubamba mu ibara ry'umutuku n'umweru mu gakombe gatoboye k'uruziga.

Icupa rirerire ry'umweru rifite umupfundikizo w'umutuku, ryanditseho amagambo ari mu ibara bitukura avuga ibijyanye n'ubuvuzi bugabanya munda, ni umuti ukozwe mu gikakarubamba.